Ikirango gifite ishusho ya kare, gifite ubuso bw'ibara ry'ubururu, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, amagambo akaba asobanura umuryango Mpuzamahanga urengera abana.

Itsinda ry'abantu benshi rigizwe n'abagabo ndetse n'abagore bahagaze ku mirongo ibiri umwe uri inyuma undi imbere ,bakaba bahagaze hagati y'amabendera abiri umwe muri iryo bendera rikaba ari ibendera ry'igihugu cy'u rwanda.

Umubyeyi uryamye ku gitanda yoroshe igitenge aho umuganga yamushyize igikoresho ku nda, akaba ari kukifashisha amupima aho agitezeho ugutwi.

Umuganga urimo kwita k'umwana amusuzuma areba uko ameze, umwana akaba ari n'umubyeyi we uri iruhande rwe inyuma yabo akaba n'abandi babyeyi benshi bakenyeye ibitenge.

Umubyeyi wicaye hasi atereye umwana wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo, aho imbere ye hari umugabo ufite isahani mu ntoki iriho ibiryo, akaba ari kurisha uwo mwana umubyeyi ateruye.

Umujyanama w'ubuzima wambaye imyenda yabugenewe, aho yasuye umuryango akaba arimo asobanurira ku mugore wo muri uwo muryango ku bijyanye n'imikurire y'abana. Ari kumusobanurira akoresheje icyapa kiriho amashusho y'umwana w'umukobwa ndetse n'umwana w'umuhungu.

Itsinda rinini ry'abana benshi, harimo abahungu ndetse n'abakobwa, aho bamwe muri bo, bateraniye ku mugezi uri kuvaho amazi barimo bakaraba mu ntoki. Munsi y'umugezi hatezeho ibase ifite ibara ritukura.

Ikigega kinini cyubatse mu buryo bw'uruziga, kikaba cyifashishwa mu gufata amazi, akoreshwa mu buryo butandukanye ahantu henshi hatandukanye.

Itsinda ry'abantu harimo abasore ndetse n'inkumi, bamwe muri bo bakaba bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru aho bahagaze bafata ifoto.

Itsinda ry'abantu benshi biganjemo abagore, bicaye ku ntebe ziri imbere y'umuryango w'ivuriro, baje kwivuza.

Umwana wambaye ikabutura ifite ibara ritukura ndetse n'ishati ifite amaboko maremare, aho ateze intoki kumugezi arimo anywa amazi.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, bateraniye ku ivomo, barimo banywa amazi bakoresheje ibiganza byabo, barimo gutega kuriyo vomo bafunguye amazi.

Umwana wambaye umupira w'amaboko magufiya ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umutuku, uteretse ibido ku mugezi arimo kuvoma amazi. Inyuma y'uwo mugezi hakaba hateye ibyatsi bitandukanye ndetse n'insina z'urutoki.

Abagore batatu bakenyeye ibitenge bari ku mugezi aho barimo kuvoma amazi. Babiri muri bo barimo kuzamura amazi. Umwe muri bo akaba arimo kudaha amazi akoresheje indobo. Aho inyuma y'iryo vomo hariho ibiti.

Abana bane bahagaze iruhande rw'ivomo, aho umwe muri bo arimo azamura amazi, ameneka hasi ku ivomo. Inyuma yabo hari ubusitani buteyemo ibyatsi ndetse hakikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye.

Itsinda ry'abantu barimo abagore ndetse n'abagabo, aho bahagaze ahantu mu mbuga, bateruye imifuka ipakiyemo ibintu bitandukanye, bayipanga ahantu hamwe.

Abana bicaye hasi bambaye impuzankano, ifite ibara risa aho imbere yabo hari umubyeyi urimo kubanywesha amata bose basangira.

Ni ku manywa ku ivomo rusange aho umugore uri kumwe n'abana babiri, arimo kuvoma amazi ku mugezi yifashishije ibido kugira ngo ajye kuyakoresha mu rugo. Inyuma y'iryo vomo hateyeho ibyatsi by'amoko atandukanye.

Inzu ebyiri zubakishije amatafari ahiye, aho inzu imwe ifite umuryango munini usize irangi ry'ubururu, indi nzu ikaba ifite umuryango mutoya nawo usize irangi ry'ubururu, izo nzu zikaba zizengurutswe n'inkingi z'ibyuma.

Abana bane b'abahungu bateraniye ku ivomo, aho umwe muri bo arimo azamura amazi ariko ameneka hasi. Inyuma y'iryo vomo hakaba hari ubusitani burimo ibyatsi by'amoko atandukanye.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo, urimo gusuhuzanya n'umwana uhagaze imbere ye, aho inyuma yabo hicaye itsinda rigari rinini ry'abana bicaye hasi. Inyuma yabo hateyeho ibiti by'amoko atandukanye.

Itsinda rinini ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, aho bicaye bateze amatwi umuyobozi wabo urimo ubaganiriza abaha inama zitandukanye.

Umwana wambaye ishati ifite ibara ritukura, akaba ari ku mugezi, aho arimo gukaraba mu ntoki akoresheje amazi ari guturuka muri uwo mugezi.

Abaganga babiri barimo bita ku mwana urwaye aho umubyeyi w'uwo mwana yicaye ku gitanda areba uko abaganga barimo kuvura umwana we wahuye n'ikibazo cy'uburwayi.

Umwana w'umuhungu wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo ndetse n'ikabutura ifite ibara ry'umukara, akaba ari ku ivomo aho avoma amazi ayashyira mu gikoresho gifite ibara ry'umweru kugira ngo ayajyane.

Abagore benshi bahagaze ku ivomo rusange, aho imbere yabo hateretse amabido kugira ngo bavomeremo amazi, bose bakaba bategereje aho umwe muri bo arimo kugenda abavomera amazi.

Itsinda ry'abantu bari ku mugezi aho barimo abana batoya ndetse n'umukobwa mukuru, aho arimo kubazamurira amazi mu mugezi bakaba batezeho utubido dutoya kugira ngo bavome ayo mazi. Inyuma y'iyo mugezi ku muhanda hariho imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse hafi yaho hakaba hateye n'ibiti by'amoko atandukanye.

Umwana w'umuhungu uri ku mugezi, aho yafunguye amazi akaba arimo kuyakoresha akaraba mu ntoki ndetse no mu mutwe.

Itsinda rinini ry'abantu bateraniye ahantu bicaye baganira bibanda cyane cyane ku kwiga ku bibazo bijyanye n'ubuzima aho bari mu nama bateze amatwi umuyobozi wabo.

Itsinda rinini rigizwe n'abagore ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe mu cyumba aho barimo kwiga ibintu bitandukanye, bakaba bari mu nama bafite amakaye ndetse n'amakaramu bari kwandika ibyo bari kwiga mur'iyo nama.

Itsinda ry'abantu benshi, riteraniye hamwe, aho harimo abagore ndetse n'abagabo, abakecuru ndetse n'abasaza, bamwe bakaba bicaye abandi bahagaze, imbere yabo hakaba hariho inyubako, ndetse hakaba hariho n'ibendera, ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umujyanama w'ubuzima yicaye ku ntebe aho ari imbere y'umuryango w'umugore n'umugabo agenda abaha amakuru atandukanye ku buzima bwo kwita ku mugore utwite.

Abana batatu bahagaze imbere y'ubukarabiro bakaraba intoki, inyuma yaho hakaba hateye ibiti by'amoko atandukanye.

Icyapa gifite ubuso buri mu ibara ry'ubururu, kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, icyapa kikaba kigaragaza ko uyu ari umuryango ushinzwe kwita ku bana.

Umwana uri ku mugezi aho iruhande rw'uwo mugezi hakikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye, umwana akaba arimo yoza igikoresho yajyanye ku mugezi kugira ngo avomeremo amazi.

Itsinda ry'abantu benshi, bateraniye ahantu mu cyumba cy'inama, aho bamwe bicaye bateze amatwi, abandi bakaba bicaye imbere yabo, barimo babagezaho ibiganiro bitandukanye.

Itsinda ry'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, aho iryo tsinda ry'abantu harimo abagore ndetse n'abagabo, umwe muri abo bagore bakaba bahetse abana mu umugongo, iruhande rw'iyo nyubako hakaba hariho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, ndetse iruhande rwayo hakaba hubatse igisharagati gifite ihema ry'umweru.

Abantu benshi bateraniye ku mugezi, harimo abana batoya ndetse n'umugabo, aho bateze amabido ku mugezi barimo bavoma amazi, inyuma y'uwo mugezi hakaba hariho amabuye ndetse n'ibyatsi by'amoko atandukanye.

Itsinda ry'abantu bahagaze, aho harimo abana batoya ndetse n'abagabo bakuze, aho umwe muri bo yambaye umupira ufite ibara ry'umutuku, ndetse n'ijire ifite ibara ry'umukara, aho ari gusobanurira umugabo wicaye hasi bakoresheje impapuro.

Umubyeyi uteruye umwana wicaye ku ntebe, imbere ye hakaba hicaye umuganga urimo gusuzuma uwo mwana ikibazo yaba afite cy'uburwayi, akaba arimo kumusuzuma akoresheje intoki ze aho yamufashe ku ijosi.

Abaganga batatu, aho babiri muri bo bambaye imyambaro yabugenewe ifite ibara ry'ubururu ndetse n'udupfukamunwa, umwe uri hagati yabo akaba yambaye umwenda wabugenewe ufite ibara ry'umweru nawe akaba yambaye agapfukamunwa.

Ikigega kinini cyubatse mu buryo bw'uruziga, aho kifashishwa mu gufata amazi, inyuma yacyo hakaba hubatse inyubako nini isakaje amabati afite ibara ry'umutuku. Inyuma y'icyo kigega hariho inkingi zisize irangi ry'ubururu.

Itsinda rinini ry'abantu, ririmo abagabo n'abagore ndetse n'abaganga, aho bari gupima umwana uburebure, bakoresheje igikoresho cyabugenewe bamuryamishaho.

Abagabo babiri baganira aho umwe yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu undi akaba yambaye ishati ifite ibara rijya kwera ndetse afite n'igikapu ku rutugu, aho umwe muri bo aganira n'undi basa nkaho bari kugirana inama.

Abaganga babiri bambaye imyambaro yabugenewe harimo nk'uturindantoki n'udupfukamunwa, aho barimo gusuzuma umurwayi wicaye ku ntebe bagira ngo barebe ikibazo yaba afite cy'uburwayi.

Itsinda ry'abaganga ririmo abagore n'abagabo bambaye impuzankano, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ikoti ry'umukara bose bakaba begeranye bifotoza.

Itsinda ry'abantu barimo abagore ndetse n'abagabo, bose bambaye impuzankano zifite ibara risa ry'ubururu, aho bicaye mucyumba, bose bakaba bafite amakaye mu ntoki zabo.

Itsinda ry'abantu barimo abasore ndetse n'inkumi bifotoje aho bateruye icyapa mu ntoki zabo gifite ishusho y'urukiramende cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ndetse gifite n'ibara ry'ubururu ndetse n'iry'umweru.

Itsinda ry'abagore ndetse n'abagabo bateraniye mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye nk'ameza ndetse n'intebe bakaba bahagaze bifotoza. Ku nkuta z'icyo cyumba handitseho uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu, mbese kuri izo nkuta hakaba hashushanyijeho amashusho atandukanye.

Itsinda ry'abantu benshi, barimo abagore ndetse n'abagabo, bambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu, aho imbere yabo hahagazeho umugabo wambaye ikoti ry'umukara. Abo bose bakaba bahagaze imbere y'inzu yanditseho ikigo nderabuzima cya Mayange.

Umwana wambaye ishati n'ijipo idoze mu gitenge, gifite ibara ritukura ndetse n'andi mabara avanzemo, aho ari ku mugezi akaraba mu ntoki akoresheje amazi ava muri uwo mugezi. Munsi yo hakaba hatezeho ibase ifite ibara ry'umukara.

Abana benshi bambaye impuzangano aho bahagaze ku ivomo rusange aho barimo bavoma amazi kugirango bayakoreshe, bavoma ayo amazi bifashishije ibikoresho bitandukanye harimo n'indobo kugira ngo babone uko batwara ayo mazi mugo. Abo bana bambaye impuzankano zigaragaza ko ari abanyeshuri.

Umugabo wambaye ingofero mu mutwe, ufite icumu mu ntoki ndetse yambaye n'umwitero ufite ibara ry'umuhondo, akaba arimo abyina imbyino gakondo yizihiye.

Abantu babiri bicaye hamwe, aho umwe w'umugabo yicaye ameze nk'uwihebye, undi w'umugore akaba amufashe ku rutugu arimo amuhumuriza.

Itsinda ry'abantu benshi harimo abagore ndetse n'abagabo, aho bateraniye mu cyumba bamwe bakaba bahagaze, abandi basutamye imbere yabo aho barimo bifotoza.

Icyapa kiriho ishusho y'abantu babiri umuhungu ndetse n'umukobwa, aho hagati yabo harimo ishusho y'umutwe w'umuntu, icyapa kikaba cyanditseho amagambo agaragaza kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umubyeyi wicaye hasi yicaranye na muganga ateruye mwana bigaragara ko yarwaye, akaba yamujyanye ku musuzumisha kuri uyu muganga kugira ngo barebe ikibazo afite, akaba arimo kumwereka ibipimo yamaze kumufata kugira ngo amuvure.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo aho yasetse, akaba agaragaza amenyo ye afite ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ipantaro n'ishati y'amaboko magufiya n'isaha ku kuboko uhetse igikapu mu mugongo, ahagaze imbere y'urukuta rw'ibitaro bya ndera bivura indwara zo mu mutwe.

Itsinda rinini ry'abagore ndetse n'abagabo bahagaze munsi y'ihema aho imbere yabo hariho ameza manini ari mu ishusho y'uruziga ndetse n'ishusho ya kare, akaba ashasheho ibitambaro bifite ibara ry'umukara ateretseho n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ikirango kirimo ishusho y'umutwe w'umuntu uri mu ibara ry'umweru, muri uwo mutwe w'umuntu hakaba handitsemo amagambo afite ibara ry'icyatsi agaragaza kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe.

Umugabo wambaye ikoti ndetse n'ipantaro y'umukara, imbere ye hariho indabyo aho igaragara ko arimo kunamira umuntu we cyangwa se abandi bantu bitabye imana.

Abagabo babiri barimo gusuhuzanya, aho umwe muri abo bagabo yambaye imyenda ya icikaguritse cyane, bigaragara ko afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuntu wambaye ubusa, wicaye hasi mu nzu aho arimo wenyine, akaba aziritse umunyururu mu kaguruke, aho bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi.

Umugore uteze igitambaro mu mutwe wambaye amaherera ku matwi, wakunje isura ye bigaragara ko afite uburakari bwinshi cyane urebeye mumaso he mu iusra.

Umuntu uhagaze yegamye ku rukuta, aho yazamuye umutwe we areba mu kirere. Urukuta yegamiye rufite ibara ry'umweru.

Itsinda ry'abana benshi harimo abahungu ndetse n'abakobwa, aho bicaye hamwe baseka bigaragara ko bishimye cyane bitewe n'igikorwa barimo.

Itsinda ry'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, biganjemo abagore, abagabo, ndetse n'abana. Bose bafite ibirango by'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, bose bakaba babizamuye hejuru.

Umugore wicaye ku ntebe, yiteze igitambaro mu mutwe, aho arimo kureba ku ruhande, inyuma ye hakaba hariho urukuta rushushanyijeho ishusho y'ururabyo, ndetse n'amababi.

Umugabo wambaye imyenda isa nabi, icikaguritse ndetse afite n'ibipfunyika ahetse ku rutugu, akaba ahagaze mu muhanda, inyuma ye hari imodoka. Umugabo bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umugore wicaye ku ntebe ikoze mu mbaho, imbere ye hakaba ashashe umusambi, akaba yambaye inkweto zifunguye, akenyeye igitenge yambaye n'umupira, aho yicaye mu nzu, inzu idirishya ryayo rikaba rikinguye.

Inyubako nini yubatse mu buryo bugeretse inshuro ebyiri, ikaba yubakishije ibikoresho byinshi bitandukanye yiganjemo ibirahuri, imbere yayo hakaba ari inkingi y'ibyuma zisize irangi ifite ibara ry'ubururu, ndetse hakaba hateyeho n'ibiti. Inyubako ikaba ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi bwo mu kanwa.

Abaganga babiri bambaye ibikoresho byabugenewe birimo uturindantoki, udupfukamunwa ndetse n'indorerwamo z'amaso, aho barimo kwita ku murwayi uryamye hasi ku gitanda bamuvura indwara zo mu kanwa.

Abantu babiri, bicaye bafite ibikoresho mu ntoki zabo, byifashishwa mu kuvura amenyo, aho bafite igikoresho barimo kwigiraho kuvura amenyo. Igikoresho gifite ishusho yo mu kanwa nk'ak'umuntu.

Isura y'umuntu w'umugabo ufite ubwanwa akaba yambaye n'amadarubindi ku maso, aho yatunze urutoki ku menyo ye.

Umugabo urimo guseka, amenyo ye agaragara, akaba yambaye ishati ifite ibara ry'ubururu, ndetse akaba afite n'ubwanwa bwinshi.

Umusore n'umukobwa bose bambaye imipira, bafite amaboko magufiya ndetse n'ibara ry'umweru, aho barimo gukora isuku yo mu menyo bakoresheje urudodo barimo kugenda banyuza hagati y'amenyo.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, gifite inkuta zisize irangi ry'umweru, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo nk'intebe ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Itsinda ry'abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'ishuri, aho harimo n'abaganga umwe muri bo akaba arimo yigisha umwana mutoya uko boza amenyo bakoresheje uburoso.

Umwana uryamye ku gitanda cy'abarwayi, aho umuganga yifashishije udukoresho twabugenewe arimo kumusuzuma mu kanwa, kugira ngo arebe ikibazo cy'amenyo afite bityo amuvure.

Ibikoresho bibiri, bifite ibara ry'umukara hagana hasi, bikaba bifite n'imigozi icometse mu gitereko cyabyo, gifite ibara ry'umweru, bikaba bifite imitwe isongosoye, aho yifashishwa mu kwivura indwara zo mu kanwa.

umuganga wambaye ibikoresho byabugenewe harimo nk'uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa, aho arimo asuzuma umurwayi indwara zo mu kanwa, kugira ngo arebe ikibazo afite umuvure.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano bari mu ishuri kumwe na mwarimu wabo, aho bishimye bazamuye hejuru udupfunyika turimo ibintu bisa.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo batonze umurongo berekeza aho abaganga barimo gukorera kugira ngo bisuzumishe indwara zitandukanye, aho abaganga barimo kubapima uburebure bakoresha ibikoresho byabugenewe.

Umugabo ufite mu ntoki urudodo akoresha mu gusukura amenyo, igihe amaze koga aho agenda arunyuza hagati y'iryinyo n'irindi kugira ngo arwanye indwara zo mu kanwa.

Itsinda ry'abana batoya, barimo abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye impuzankano y'ishuri, aho bafite uburoso bwoza amenyo ndetse n'udukombe mu ntoki, bakaba barimo kubyifashisha boza amenyo yabo.

Icyumba gifite inkuta zisize irangi ry'umweru hejuru harimo kwaka amatara, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye, birimo nk'intebe ndetse n'igitanda kiriho aho kwegama ikaba byifashishwa mu buvuzi.

Umuganga wambaye uturindantoki dufite ibara ritukura, ndetse afite n'agakoresho mu ntoki kifashishwa mu kuvura amenyo, aho afashe ikibumbano cy'amenyo, akaba arimo kugikoresha yifashishije akuma.

Umugabo wegeranye n'umwana, bose bambaye imipira ifite ibara ry'umweru, aho bafite urudodo banyujije mu menyo yabo, barimo bayakorera isuku.

Abaganga b'abagabo babiri, bambaye ibikoresho byabugenewe, birimo impuzankano, uturindantoki udupfukamunwa, ndetse n'indorerwamo z'amaso, aho barimo kuvura umurwayi uryamye ku gitanda, indwara zo mu kanwa, bakoresheje ibikoresho byabugenewe bafite mu ntoki zabo.

Umurwayi uryamye ku gitanda akaba afite ikibazo cy'indwara y'amenyo, aho muganga wabihuguriwe wambaye ibikoresho byabugenewe, harimo n'uturindantoki yifashisha urushinge amutera umuti, kugira ngo amukorere ubuvuzi bw'indwara y'amenyo.

Abantu bakuze bageze mu zabukuru, bicaye mu ntebe, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, aho bamwe muri bo bafite inkoni mu ntoki zabo.

Umugore wicaye hasi ku musambi ufite ibara ry'umweru aho umugore arimo gukora imyitozo ngororamubiri arambuye amaguru ndetse agafatishaho amaboko, aho yicaye ni mu busitani burimo ibyatsi by'amoko atandukanye.

Umusaza wicaye ku ntebe ateruye umwana mutoya, umwana akaba afite igikinisho mu ntoki ze.

Umusore n'umukobwa bateruye umusaza ukuze aho barimo kumufasha kubyuka, bigaragara ko umusaza afite imbaraga nkeya adashobora kwibyutsa ngatera intambwe, bari kumufasha kugenda mu buryo bworoshye.

Umukecuru ufite umusatsi w'imvi aho yicaye inyuma ye ahahagazeho umukobwa ufite umusatsi w'umukara, aho barimo kureba imbere bose baseka.

Umusaza wambaye ingofero, ishati ndetse n'umwitero, wicaranye n'umukecuru, wambaye urunigi mu ijosi, yambaye n'umwitero ndetse n'umupira w'amaboko magufiya, ufite ibara ry'ubururu, inyuma yabo hakaba hicaye abandi bantu benshi.

Aha ni mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, hahagazemo umugore n'umugabo, aho umugabo yishingikirije ibyuma kugira ngo ahagarare neza, umukobwa akaba ahagaze iruhande rwe arimo kumufasha.

Umuntu ufite umusatsi w'ibara ry'umweru rivanze n'iryumukara, aho afite udukoresho tubiri mu biganza bye, udukoresho dufite ibara ry'icyatsi, akaba ari ku twifashisha akora imyitozo ngororamubiri.

Umusaza n'umukecuru bicaye imbere y'ameza barimo bafata amafunguro y'ubwoko butandukanye yiganjemo imboga n'imbuto, bakaba barimo kurebana mu maso baganira bishimye.

Umugore wicaye hasi ku musambi wabugenewe, aho arimo akora imyitozo ngororamubiri, higanjemo kunanura ingingo zirimo amaguru ndetse n'amaboko.

Abagore babiri barimo kugenda mu muhanda, aho umwe ahetse igikapu mu mugongo, undi agifashe mu ntoki, undi akaba afashe mu ntoki ze imbago zimufasha kugenda mu buryo bworoshye. Iruhande rwabo hariho ubusitani burimo ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'ibyatsi.

Umukecuru wicaye ku ntebe, imbere ye hariho ameza, akaba afite mu ntoki ze ikirahuri kirimo amazi aho umuganga arimo kumuhereza imiti mu ntoki kugira ngo ayinywe.

Umubyeyi ugeze mu za bukuru wicaranye n'umukobwa wambaye indorerwamo z'amaso, aho bombi bari kumwe n'umwana ukiri muto bakaba barimo guseka bigaragara ko bishimye cyane.

Abagore babiri bicaranye, umwe ukuze ndetse n'undi ukiri muto. Aho ukuze arimo ategura amafunguro, aho akata imboga, bakaba barimo banaganira.

Itsinda rinini ryiganjemo abagore aho abenshi muri bo bambaye imyenda y'impuzankano isa, bakaba barimo batambuka ku murongo umwe aho bigaragara ko barimo kubyina.

Umusaza ndetse n'umukecuru bari mucyumba, aho umusaza yicaye ku buriri afite ikirahuri mu ntoki arimo kunywa amazi, umukecuru akaba ari imbere ye, ahagaze.

Umugore ndetse n'umukecuru bicaye mu ntebe, aho imbere yabo hariho ameza ateretseho ikirahuri kirimo amazi, imbere yaho hariho ikayi ndetse n'imiti, aho umugore afite imiti, arimo gusobanurira uwo mukecuru kugira ngo ayinywe.

Abakecuru bakuze, bicaye hasi, bamwe bicaye ku ntebe, aho inyuma yabo hakikije n'insina z'urutoki zihateye. Bamwe muri bo bakenyeye ibitambaro mu mutwe.

Umukecuru wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, aho imbere ye hicaye umuganga wambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu, muganga akaba yambaye udukoresho dusuzuma mu matwi ndetse akaba yamwambitse igikoresho gikoreshwa mu gupima umuvuduko w'amaraso akaba yakimwambitse mu kaboko.

Abagabo babiri, bambaye amashati afite ibara ry'umweru, baka bafite amacupa y'amazi mu ntoki, aho birukanka mu muhanda bakora imyitozo ngororamubiri.

Itsinda rinini ry'abantu benshi barimo abagore ndetse n'abagabo n'abana batoya, bamwe bicaye imbere abandi bahagaze inyuma, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru, bakaba bateraniye mu cyumba bifotoza.

Ikirango kinini kiriho ishusho y'umwana cyanditseho n'amagambo agaragaza ko igifunitse muri icyo gikoresho ari umuti kikaba kiri kugaragaza uko uyu muti ukoreshwa igihe wakorewe ndetse n'igihe uzarangirira ndetse kigatanga n'amabwiriza y'ukuntu wakoreshwa neza.

Ni ku manwa, abanyeshuri benshi barimo abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye impuzankano isa, barimo bagenda mu muhanda, aho bafite icyapa imbere yabo gishishikariza urubyiruko kwirinda virusi itera SIDA binyuze mu kwipimisha.

Icyumba cyo kwa muganga, giteraniyemo itsinda ry'abaganga bambaye impuzankano, rifite ibara ry'icyatsi, bambaye udupfukamunwa ndetse n'ingofero mu mutwe, aho barimo bavura umurwayi uryamye, ku gitanda.

Itsinda ry'abantu bari mu nama, aho abayoboye inama bicaye imbere, umwe muri bo akaba afite uruvugiro, arimo gutanga ijambo ku bateze amatwi iyo nama.

Icyumba kinini cy'inama cyicayemo abantu benshi batandukanye aho imbere y'abantu hariho itorero ry'abantu barimo kubyina, iryo torero rigizwe n'abagore ndetse n'abagabo barimo guhamiriza imbere y' bantu bicaye mu cyumba cy'inama.

Abaganga bari mu cyumba bambaye imyambaro yabugenewe, irimo udupfukamunwa byose bifite ibara ry'icyatsi aba arimo kwita ku murwayi kugira ngo bamuvure.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe bambaye amakoti y'umukara, buri wese imbere ye hariho uruvugiro akoresha mu gusakaza amajwi, aho imbere yabo hicaye abantu babateze amatwi, abo bagabo inyuma yabo hariho icyapa kinini gifite ibara ry'ubururu ryanditse cyanditseho amagambo atandukanye.

Icyapa kinini, gifite ubuso buri mu ibara ry'ubururu, aho handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umuhondo, agira ati twirinde indwara y'ubushita bw'inkende.

Umugabo wambaye ikoti ndetse n'ipantaro bifite ibara ry'umukara n'umugore wambaye ikanzu ifite, amaboko magufiya, bahagaze imbere y'icyapa kinini cyanditseho amagambo atandukanye.

Ikirango gifite ishusho ya kimwe cya kabiri cy'uruziga kikaba kigizwe n'amabara atandukanye harimo iba ry'icyatsi ibara ry'ubururu, ibara ry'umuhondo, ndetse n'ibara ry'umutuku, hakaba handitsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara asobanura icyo kirango.

Icyumba kinini, kirimo ibikoresho byinshi by'amoko atandukanye, ibyo bikoresho bikaba byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Bimwe muri ibyo bikoresho, bikoresha umuriro w'amashanyarazi.

Icyumba cyo kwa muganga, gisize irangi ry'umweru ku nkuta, icyumba kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga mu gusuzuma ndetse ibyo bikoresho bikaba bikoresha umuriro w'amashanyarazi.

Inyubako nini yubatswe mu buryo bugeretse ikaba isakaje amabati afite ibara ry'ubururu, imbere yayo hahagaze abantu ndetse n'imodoka, inyubako ikaba itangirwamo ibikorwa by'ubuvuzi.

Inyubako yubakije amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati afite ibara ry'ubururu. Ku rukuta rwayo hariho ikizimyamuriro, imbere yayo hakaba hateye indabyo n'ibyatsi y'amoko atandukanye. Inyubako ikaba ikoreramo ibiro bya isange ya Remera Rukoma.

Inyubako nini hejuru ifiteho amadirishya afunze hasi ifite amadirishya arimo ibirahuri bibonerana, aho mu imbere harimo abaganga ndetse n'umuntu wambaye igitambaro cy'ubururu. Hanze y'iyo nyubako hakaba hahagaze abantu batatu harimo umugabo umwe ndetse n'abagore babiri, umwe muribo ateruye umwana.

Inyubako nini isize irangi ry'umweru, ifite amadirishya arimo ibirahuri bifite ibara ry'umukara, ikaba isakaje amabati afite ibara ry'ubururu, aho imbere yayo hariho ikigega gifite ibara ry'umukara, n'ubusitani buteyemo ibyatsi bitandukanye, harimo n'igiti gifite, amababi y'ibara ry'icyatsi.

Inyubako yanditseho amagambo agira ati ''inzu y'ababyeyi'' aho imbere y'iyo nzu hicayeho abantu benshi batandukanye, harimo abagore n'abagabo imbere yabo hakaba hariho ameza ariho igitambaro, umuryango w'iyo nzu ufite ibara ry'umweru ukaba unafunguye.

Inyubako ndende, isize irangi ry'umuhondo, ifite inzugi zisize irangi ry'umweru ndetse zirimo n'ibirahuri, aho isakaje amabati afite ibara ritukura, imbere y'iyo nyubako hahagaze imodoka ndetse n'abantu, hakaba hari n'umuntu ucunga umutekano, hafi y'iyo nyubako.

Itsinda ry'abaganga bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru, aho imbere yabo hicayeho umurwayi, barimo gusuzuma bakoresheje ibikoresho byabugenewe bamwambitse ku kaboko.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo amatara hejuru ku gisenge, hakabamo imashini zitandukanye zikoreshwa mu gusuzuma abarwayi, ndetse n'aho umuganga yicara.

Inyubako nini ya kaminuza y'u Rwanda, isize irangi ry'umweru, imbere yayo hakaba hateye ibiti ifite amababi y'icyatsi kibisi, hakabayo inzira y'abanyamaguru harimo umuntu uri kugenda imbere y'inyubako.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga igihe barimo bavura umurwayi, bikaba biri ahantu mu cyumba kinini cy'ibikoresho. Byose bika bikoresha ikoranabuhanga rya mudasobwa, ndetse bikoresheje ingufu z'amashanyarazi.

Inyubako ndende yubatse mu buryo bugeretse, hejuru yayo hariho ibigega ndetse n'iminara, imbere y'iyo nzu hakaba hariho ibyatsi ndetse n'icyapa gifite ubuso bw'ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu, ku muryango w'iyo nyubako hakaba harimo gusohoka imodoka, aho bayifunguriye bakuyeho inkomyi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara wicaye munsi yigiti kinini cy'yinganzamarumbo cy'umuvumu akaba arimo yota agacucucu kugirango ahunge izuba.

Inyubako nini igizwe n'ibice bitandukanye aho ibyo ibice bitandukanye bisakajwe n'amabati afitera ritukura, inyubako ikaba iriho amagambo asobanura ikiyikorerwamo aho ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, imbere y'iyo nzu hahagazeho umuntu w'umukobwa ufite igitabo mu ntoki.

Icyumba kinini, gifite urukuta rushushanyijeho ibishushanyo ndetse ahandi hasize irangi ry'umweru, aho imbere y'ibyo bishushanyo hateyeho intebe zifite amabara y'ubururu ndetse n'izindi zifite ibara ritari iry'ubururu.

Igikoresho gikoreshwa mu buvuzi aho abaganga bagikoresha basuzuma abarwayi mu buryo batandukanye, aho ibyo basuzumye ba birebera kunyakira mashusho iri ku rukuta rw'icyumba cy'aho iki gikoresho kiri.

Icyumba kinini kirimo ibitanda, aho ibyo bitanda biryamyeho abantu, barimo gutanga amaraso, iruhande rw'abantu hakaba hariho abaganga barimo kubafasha mu gutanga amaraso.

Umuganga wambaye impuzankano ndetse n'uturindantoki, aho ahagaze imbere ye haryamye uruhinja, akaba arimo kurwitaho.

Icyumba kinini kirimo imiti y'amoko menshi atandukanye, aho ipfunitse mu makarito matoya, ikaba ipanze mu buryo butandukanye.

Umuganga wicaye ku ntebe ifite ibara ry'icyatsi, inyuma ye hakaba hariho igitanda na cyo gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'iry'umweru, byose bikaba biri mu cyumba cyo kwa muganga, aho harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Inyubako nini yubatse mu buryo bugeretse, aho isize ibara ry'umuhondo ku gice cyo hasi, hejuru hakaba hasize ibara ry'ubururu, aho imbere yayo hahagaze abantu, ikaba ifite n'ubusitani buri imbere yayo burimo ibyatsi by'amoko atandukanye ndetse n'igiti kinini cy'inganzamarumbo.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite imiryango iriho inzugi zisize irangi ry'umweru ndetse ifite n'ibirahuri, iruhande rw'iyo nzu hakaba hateyeho ibiti by'amoko atandukanye, hejuru yayo hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Icyumba kinini kigaragara ko ari icyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo nk'isaha ndetse n'icyuma kinini gikoreshwa mu gusuzuma umurwayi bagira ngo barebe ikibazo afite mu mubiri imbere.

Umukobwa wicaye imbere y'umuganga, aho bari mu cyumba kinini cyo kwa muganga, umukobwa akaba arimo avugana n'umuganga, aho nawe arimo kwandika mu ikayi afite mu ntoki.

IIcyapa kinini gishinze ku muhanda iruhande rw'inzu, aho kigaragaza serivisi zitangirwa muri iyo nyubako, ziganjemo iz'ubuzima ndetse n'ubuvuzi.

Umuganga wambaye umwambaro wabigenewe ufite ibara ry'umweru, akaba yambaye agapfukamunwa ndetse n'amadarubindi, aho arimo akoresha mudasobwa iri imbere ye.

Umuganga uri mu cyumba cyo kwa muganga aho icyo cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bigizwe n'ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi, icyo gitanda kirimo haryamyeho umurwayi.

Iyi ni inzu, ikoreramo icyicaro gikuru cy'ikigo gishinzwe kurwanya indwara zandura, yaba ku bantu ndetse n'inyamaswa, muri Afurika. Iyi nzu imbere yayo hateye ibiti bifite amababi y'icyatsi, ikaba isize irangi ryirabura, imbere hakaba hari n'ibirahuri.

Ubusitani bunini buteyemo ubwoko bw'ibiti bitandukanye ndetse n'ibyatsi bitandukanye bifite ibara ry'icyatsi, muri ubwo busitani hakaba hanyuzemo inzira z'abantu banyuramo ndetse inyuma y'ubwo busitani hakaba hari inyubako zubakishije amatafari ahiye.

Icyumba kinini kisanzuye kirimo intebe, kikaba kifashishwa mu gutanga ubuvuzi bifashisha imyitozo ngororamubiri.

Inyubako nini yubatse mu buryo bugeretse, ikaba isize ubwoko bw'amarange atandukanye harimo nk'ubururu, umukara ndetse n'umweru, ikaba isakaje amabati atukura, imbere y'inyubako haparitse imodoka ndetse n'ipikipiki aho hariho n'Ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba kinini, kiri mu nyubako y'ivuriro, kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi, ndetse iki cyumba, kikaba gisize irangi ry'umweru.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi by'umwihariko kwa muganga bigizwe n'igitanda cy'umurwayi, aho bakarabira intoki ndetse bakanazumukiriza.

Itsinda ry'abantu benshi barimo abagore ndetse n'abagabo, bahagaze ku murongo umwe, imbere y'inyubako y'ibitaro bya Rwamagana, bakaba bahagaze barimo bifotoza imbere y'iyo nyubako hari indabyo zihateye ndetse n'insina zihateye.

Umuntu wambaye ibikoresho by'ubwirinzi bifite ibara ry'umweru ndetse n'inkweto nini, aho ahagaze imbere y'inyubako ariho ahatera umuti. Imbere y'inyubako hateretseho indobo, imwe ifite ibara ry'ubururu, indi ifite ibara ry'icyatsi.

Inyubako yubatse mu buryo bugeretse aho iyo nyubako imbere yaho hariho icyapa cyanditseho amagambo agaragaza icyo iyo nzu ikorerwamo, iruhande rw'iyo nzu hakaba hateye ibyatsi.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, aho kuri iyo nzu hicayeyo abantu biganjemo abagore, iyo nzu ikaba yanditseho amagambo asobanura ibikorerwa muri iyo nzu.

Muganga wabihuguriwe ndetse wambaye n'imyambaro yabugenewe y'abaganga, aho ari mu cyumba cy'abarwayi. Akaba arimo yita ku murwayi uryamye ku gitanda, arimo nko kumuha umuti ndetse no kumworosa agira ngo amuvure akire.

Icyumba kinini, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ameza ndetse n'ibikoreshwa mu gusuzuma, bigaragara ko ari ibikoresho bikoreshwa mu bitaro, aho abaganga babyifashisha bareba mu mubiri w'umurwayi kugira ngo barebe ikibazo afite.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bugeretse, ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, hasi hakaba hahagazeho abantu babiri, bikaba bigaragara ko ari inyubako ikorerwamo ubuvuzi butandukanye, ikaba iriho ibyapa bigaragaza icyo bakorera muri iyo nyubako.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye bikoreshwa n'abaganga igihe basuzuma umurwayi, bareba ikibazo afite mu mubiri we cyangwa se bakacyifashisha igihe umurwayi arimo avurwa mu buryo butandukanye, harimo nko kumubaga, bareba mu mubiri imbere.

Ibikoresho byinshi bitandukanye biri mu cyumba cyo kwa muganga, aho ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi butandukanye. Ibikoresho bikaba byifashishwa mu kuvura abarwayi, aho tubonamo serivisi zijyanye no gutanga amaraso, gusuzuma ndetse n'ibindi bitandukanye. Ikaba ifasha abarwayi mu gihe bari mu babavura.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo igitanda cy'umurwayi aryamaho, imbere yacyo hakaba hariho igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma umurwayi warwaye.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu kuvura, harimo nk'igitanda umurwayi aryamaho, ndetse n'ibikoresho biri iruhande rwacyo byifashishwa mu gusuzuma umurwayi.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, akabikoresha mu buvuzi, aho icyumba kirimo ibindi bikoresho birimo nk'intebe, ameza atetseho mudasobwa, ndetse n'ibindi bikoresho, koranabuhanga.

Inyubako nini aho imbere yayo hariho ubusitani buri mu bwoko bw'ibyatsi butandukanye muri ubwo busitani hakaba harimo icyapa cyanditseho amagambo atandukanye ari mu mabara atandukanye inyuma y'icyo cyapa utambitse hirya hakaba hari igiti kinini cyane cy'inganzamarumbo.

Icyumba kinini cyubatswe n'inkuta zifite ishusho y'ibikoresho bikoze mu biti, aho iyo nyubako ifite inkingi ihagaze mo hagati ifite ibara ry'umukara, inkingi ikaba ikikijwe n'udutebe dukoze mu giti twanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Itsinda ry'abantu ririmo umuhungu ndetse n'abakobwa aho bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru n'uturindantoki dufite ibara ry'ubururu, aho bari mu cyumba cya laboratwari bakaba barimo gukora ubushakashatsi.

Inzu nini iriho icyapa kigaragaza ko icururizwamo imiti, hakaba munsi yayo haparitseho ibinyabiziga hicayeho n'abantu babitwara ndetse umwe muri abo akaba ahagaze mu muryango w'iyo nzu.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibitanda biri mu myanya itandukanye, bishasheho amashuka afite ibara ry'ubururu ndetse n'iry'umweru, imbere yabyo hateretse ameza.

Icyumba kirimo intebe eshatu ndetse n'ameza atatu ateye imbere y'izo ntebe aho hejuru y'ameza hariho amashusho y'abantu atandukanye.

Umurwayi uri mu cyumba cyo kwa muganga, aryamye ku gitanda aho yoroshe ishuka ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'indi ifite ibara ry'umweru, iruhande rwe hakaba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe ndetse n'agakoresho gafasha mu gusuzuma uko umutima utera, aho yicaranye n'umubyeyi bose bicaye ku ntebe bakaba arimo baganira aho umubyeyi arimo abwira ikibazo muganga kugira ngo amufashe.

Inyubako nini, yubatse mu buryo bugeretse, aho ibice bimwe byayo bikirimo kubakwa, iyi nyubako akaba ari iy'ibitaro by'Akarere bya Nyarugenge. Imbere yayo hateyeho igiti ndetse n'indabyo z'amoko atandukanye.

Ikicungo gifite amaguru gihagazeho ari mu'ibara ry'ubururu ndetse n'iry'icyatsi aho icyo kicungo giteye mu busitani burimo ibyatsi inyuma yacyo hakaba hariho urukuta rwubakije amatafari ahiye ndetse urwo rukuta rukaba rurimo inkingi z'ibyuma.

Icyumba kinini gifite amadirishya akingishijwe ibirahuri, aho harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako y'ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, isize irangi ry'umweru, imbere yayo hakaba hateye amoko y'indabyo zifite ibara ry'icyatsi.

Inzu nini isize irange ry'umweru ikaba ifite inkingi enye ziyifashe nazo zisize irange ry'umweru, ikaba isakaje amabati afite ibara ry'ubururu, ikaba ari inzu y'ababyeyi. Iruhande rw'iyo nzu hateyeho ibiti by'amoko atandukanye.

umugabo wicaye hasi ku ntebe yambaye ikabutura y'umukara, akaba ari kwifashisha igitambaro cyabugenewe akanda mu ivi, aho ashobora kuba yagize imvune kugira ngo akire.

Umuganga wambaye umwambaro ufite ibara ry'ubururu, akaba arimo kugorora ukuguru k'umuntu uryamye hasi, wambaye ipantaro ifite ibara ry'umukara.

Umugabo wicaye hasi aho yarambuye ukuguru arimo akora imyitozo ngororamubiri, inyuma ye hateye ibyatsi bifite amababi mato mato.

Itsinda ry'abaganga bari mu cyumba cyo kwa muganga, aho bahagaze imbere y'igikoresho cy'ikoranabuhanga barimo bareba amashusho ari muri icyo gikoresho, hirya yabo hari ibitanda by'abarwayi baryamaho kwa muganga.

Umukobwa uri mu cyumba gifite idirishya rinini cyane, akaba aryamye hasi arimo akora imyitozo ngororamubiri yaba iy'amaguru ndetse n'amaboko kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye umupira ufite amaboko magufiya, akaba afite icupa mu ntoki, ririmo amazi, aho arimo kuyanywa, yifashishije iryo cupa.

Umuntu wicaye ku ntebe yambaye ishati ifite ibara ry'ubururu, aho mu kiganza cy'ukuboko kwe afashemo igikoresho kimufasha gukora imyitozo ngororamubiri, abifashijwemo n'umuganga umufashe akaboko.

Ibikoresho bitandukanye birambitse ku meza, harimo ibyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, nk'umugozi n'inkweto zo kwambara, ndetse n'ibindi byifashishwa mu buvuzi, nk'igikoresho gikoreshwa mu gupima uko umutima utera, ndetse n'amoko y'imbuto zitandukanye ziri ku isahani harimo nk'inyanya n'igitunguru ndetse n'izindi.

Ibikoresho byishi by'amoko atandukanye, bikoreshwa mu buvuzi, aho harimo ibizingo imiti iri mu macupa, uturindantoki, ndetse n'ibindi bifunze mu mashashi abonerana.

Umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'umutuku, aho yicaye ku ntebe imbere ye hateretse mudasobwa irimo amashusho arimo kureba, iruhande rwe akikijwe n'ibindi bikoresho bitandukanye, bifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Umuganga wambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru, yambaye mu ijosi udukoresho twifashishwa mu gusuzuma uko umutima utera, mu ntoki ze akaba afitemo ishusho y'ikibumbano gifite ibara ry'umutuku.

Umuntu bigaragara ko ari umugabo wicaye hasi yambaye umupira umufasha kumurinda imbeho, akaba arimo anywa amazi, bikaba bigaragara ko arimo gukora siporo cyangwase asoje gukora siporo.

Inkoni bigaragara ko ikoze mu cyuma, ikaba ari ndende ariko bitari cyane, ikaba ishobora kwifashishwa n'umuntu ufite ubumuga kugira ngo abashe guhagarara cyangwa se kugenda mu buryo bumworoheye.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga, gikoreshwa kwa muganga, mu gusuzuma umurwayi indwara afite imbere mu mubiri, kikaba giteretse mu cyumba kinini cyo kwa muganga gifite inkuta zisize irangi ry'umweru.

Ikidongi cy'igitambaro gifite ibara ry'ubururu, kizinze mu buryo bw'uruziga, kikaba cyifashishwa mu guhambira, aho umuntu yagize imvune.

Ni igikoresho gifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umukara, hejuru aho kirambitse hasi kikaba cyifashishwa n'abaganga mu gusuzuma uko umutima w'umuntu urimo gutera.

Umuganga w'umukobwa wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'uturindantoki, yicaye imbere y'umugabo amufatiye imbago kugira ngo abone uko ahagarara ndetse anatambuke neza.

Umuntu wicaye hasi ku gatanda, aho yambaye imyenda ndetse n'inkweto byifashishwa mu gukora siporo, mu ntoki ze afite igikoresho arimo kurebamo.

Umuntu wicaye yazamuye ukuguru kw'ipantaro ye, aho afite igitambaro gifite ibara ry'ubururu mu ntoki ze, akaba arimo gukanda mu ivi ry'akaguru ke.

Umuntu uhagaze ku nkingi z'ibyuma aho arimo akora imyitozo ngororamubiri cyane cyane yibanda kubice n'ingingo zitandukanye nk'amaguru ndetse n'amaboko n'umugongo.

Ibikoresho by'amoko atandukanye bikaba ari ibikoresho byifashishwa mu gukora ubutabazi bw'ibanze, aho byiganjemo imikasi ibikwasi ndetse n'ibindi byifashishwa mu gutabara uwahuye n'ikibazo, bamukorera ubuvuzi bw'ibanze.

Icyapa kiriho amashusho atandukanye harimo ay'abantu barimo gukora imyitozo ngororamubiri harimo amashusho y'ibikoresho bikoreshwa mu gukora imyitozo ngororamubiri hakaba handitsemo n'amagambo asobanura icyo cyapa bigaragaza ko ari ubuvuzi bw'imyitozo ngororamubiri.

Ameza ateretseho ibintu byinshi bitandukanye, birimo ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse iruhande rwabyo hakaba hariho imbuto z'amoko atandukanye, higanjemo indimu, imineke, urusenda, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umugabo ufashe hasi yarambuye akaguru ndetse yamanuye n'akaboko gafashe hasi, aho arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho byishi bitandukanye birambitse ku meza harimo bimwe bifite ishusho y'umuntu, hakaba harimo n'ibindi byifashishwa mwitozo ngororamubiri ndetse no kwiga amasomo atandukanye harimo ibikapu n'ibindi bitandukanye.

Umukobwa wicaye hasi mu busitani aho yambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, akaba yicaye akora imyitozo ngororamubiri arambura amaboko ndetse n'amaguru.

Umuntu wambaye ikabutura n'isaha ku kuboko, aho ahagaze hasi yunamye arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu wavunitse mu ivi ry'akaguru k'iburyo aho muganga arimo kumwitaho akoresheje ibikoresho byabugenewe kugira ngo amuvure.

Umusore wambaye imyenda n'inkweto bimufasha gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari mu cyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye harimo nk'imipira ndetse n'ibindi. Akaba arimo akora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu wicaye hasi, imbere hateretse icupa ririmo amazi, aho yunamye afashe ku kirenge ke, akaba arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Imbonerahamwe iriho amagambo asobanura uburyo wakora imyitozo ngororamubiri waba wicaye cyangwa se uhagaze, imyitozo itanu wakora wicaye iri mu ibara ry'ubururu, imyitozo itanu wakora uhagaze iri mu ibara ry'icyatsi.

Umugabo upfukamishije akaguru kamwe hasi akandi gahagaze, aho arimo agakanda akoresheje intoki ze, arimo akora imyitozo ngororamubiri mu ivi ry'ako kaguru gahagaze.

Umugabo uhagaze uri mu cyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye akaba arimo abyifashisha gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye inkweto n'imyenda bimufasha gukora icyo gikorwa.

Icyumba kirimo umurwayi uryamye ku gitanda, yoroshe ishoka ifite ibara ry'umweru, aho umuganga wambaye imyambaro yabugenewe ndetse n'uturindantoki, arimo kumusuzuma mu mugongo, akoresheje igikoresho koranabuhanga cyabugenewe.

Ikirango kinini gifite utuzu twinshi dufite ubuso bw'ibara ry'ubururu, handitsemo amagambo afite ibara ry'umweru, hagati yayo hakaba harimo amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, aho inyuma y'utwo tuzu hariho ishusho y'abantu, bari kugenda bakora imyitozo ngororamubiri.

Urugemwe rw'icyatsi kibisi rukiri mu buhumbikiro, aho rumaze gukura rushobora kuba rwakurwa muhumbukiro rukajyanwa guterwa mu murima.

Amacupa y'ubwoko butandukanye ndetse afite n'ibipimo bitandukanye, ateretse ahantu hamwe, amacupa menshi muri yo akaba apfunyisemo ibyiganje ku bikomoka ku ikawa.

Ibirahuri bibiri biteretse ku meza, bikaba birimo amazi ndetse bakaba bashyizemo amababi y'ibihingwa by'amoko atandukanye, aho ibyo bibabi barimo babyifashisha mu gukora umuti wo kunywa.

Igiti gifite amababi manini afite ibara ry'icyatsi, ayobabi akaba yifashishwa mu gukora umuti wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Amacupa afite ibara ry'umuhondo apfundikiwe n'imipfundikizo ifite ibara ry'umukara, aho amwe ateretse mu gikarito irindi rimwe rikaba riteretse hanze y'igikarito.

Igihingwa gifite amababi afite ibara ry'icyatsi, kikaba gifite imbuto zezeho, zikaba zifite ibara ry'umuhondo. Iki giti kikaba cyakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye mu buryo bwa gakondo.

Amashusho atandukanye, ariho ibihingwa by'amoko atandukanye, aho iya mbere hariho umugabo ufashe mu ntoki ibimera bimwe na bimwe, iyindi ikabaho abantu babiri bari hagati mu ishyamba, aho ishusho ya gatatu iriho umugabo ufashe igiti ndetse iya kane ikaba iriho ibyatsi bifite amabara y'icyatsi ndetse n'indabyo z'umuhondo.

Ibimera byinshi by'amoko atandukanye, aho bimwe bifite amababi afite ibara ry'icyatsi maremare, ibindi bikagira amababi afite ibara ry'icyatsi magufi ndetse ibindi bikagira amababi y'icyatsi manini cyane, bikaba byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu buryo bwa gakondo.

Umuganga wambaye ibikoresho byabugenewe harimo nk'agapfukamunwa, aho imbere ye hateretse amoko menshi y'amacupa atandukanye. Amwe apfunitse mu makarito andi adafunitse ateretse imbere ye afite ibipfundikizo ifite ibara ry'umweru.

Amashusho ane agaragaza ibihingwa by'amoko atandukanye, aho bimwe muri byo bifite amababi afite iba ry'icyatsi, ibindi bikaba ifite amababi asongosoye, ibindi bikaba bifite uturabyo tw'umweru, bikaba byifashishwa mu gukora umuti uvura mu buryo bwa gakondo.

Ubwoko bw'ibihingwa butandukanye, aho bibiri muri byo biri hejuru, hari ibyatsi bifite amababi afite ibara ry'icyatsi, bibiri byo hasi, ibumoso hakaba ubunyobwa, aho iburyo hari igitoki kirambitse hasi ku meza.

Indabyo zifite ibara ry'umweru zarabye ku giti gifite amababi ycyatsi kibisi, aho iki giti giteye ku gihuru kikaba cyakifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Igiti cy'icyatsi kibisi gifite amababi maremare y'icyatsi igiti gikunda kuba ahantu hashyuha kikaba gifite izina ry'Ikinyarwanda kizwi nk'umufumbwa kikaba gikoreshwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye muburyo bwa gakondo.

Ibimera byinshi bitandukanye harimo ibinyabijumba, byera munsi y'ubutaka ndetse n'amababi ari ku biti hejuru, bikaba byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye mu buryo bwa gakondo.

Ipapayi irambitse hasi ikaba idasatuye, imbere yayo hakaba hariho ipapa yindi isatuyemo kabiri aho iyo papayi isatuye ifite ibara ry'umuhondo, imbere muri yo hakaba harimo imbuto z'umukara.

Amoko menshi y'ibihingwa bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti ivura mu buryo bwa gakondo, ibyo bihingwa bikaba bifite amababi y'icyatsi, aho bimwe muri byo byarabye na kimwe gifite ururabyo rw'umuhondo, ikindi cyarabye uturabyo tw'umukara, bikaba bihinze mu bitereko, aho munsi yabyo handitseho amazina yabyo mui bara ry'umukara.

Amababi manini y'icyatsi akaba amababi y'igiti kiri mu ishyamba akaba yifashishwa mu gutunganya umuti uvura indwara zitandukanye mu buryo bwa gakondo.

Igiti kiri mu ishyamba, inyuma yabyo hari ibihuru byinshi cyane, icyo giti gifite amababi y' icyatsi, kikaba cyaratangiye kuzana ururabo rw'umweru.

Akabido gatoya gafite ibara ry'ubururu gapfundikije umufuniko ufite ibara ry'icyatsi, kakaba gateretse hasi aho munsi yako handitseho numero za terefone wahamagara.

Amacupa menshi, afite amashusho atandukanye, aho amwe ari manini andi akaba ari matoya, amacupa amwe akaba apfundiki imifuniko ifite ibara ry'icyatsi, andi akaba apfundikije imifuniko ifite ibara ry'umweru.

Ubwoko bwinshi bw'amapaki atandukanye, aho ayo mapaki afunitsemo ubwoko bw'imiti itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye.

Itsinda ry'abantu benshi harimo abagore ndetse n'abagabo, bamwe muri bo bakaba bambaye impuzankano y'imipira ifite ibara ry'icyatsi, aho bahagaze mu murima uteyemo ubwoko bwinshi bw'ibihingwa bitandukanye byifashisha mu buvuzi bwa gakondo.

Ikimera gifite amababi y'ibara ry'icyatsi, aho ayo mababi ari manini cyane, iki kimera kikaba cyifashishwa mu gukora umuti wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, kikaba gifite izina ry'ikinyarwanda yitwa umuravumba.

Icupa ribonerana ry'ikirahure riteretse hasi, iruhande rwaryo hariho urubuto rw'indimu rusatuye ndetse n'igitunguru gisatuyemo kabiri.